Ni abaturage b'ibitsina gabo, bicaye, babiri bambaye amakote, umwe yambaye rinete, n'abandi babiri bambaye amashati, bafite mudasobwa ku meza.

Ndabona abantu batatu babiri b'abagabo n'umugore umwe ubarimo hagati bombi bicaye umugore ari kwandika imbere yabo hari amazi.

Ndabona umubyeyi wambaye ishati y'umweru afite isakoshi yambaye ipantaro n'isaha na terefone n'umugabo, n'umugabo ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Ni abaturage bicaye bari mu nama, n'abandi bicaye mu matente, n'amazu n'ibiti...

Ndabona igitsina gore n'igitsina gabo bahagaze imirongo ibiri, inyuma hari ifoto isa umweru.

Inzu mberabyombi bigaragara ko iyo nzu harimo abantu benshi, ukabonamo ko abiganjemo ari urubyiruko, aho bigaragara ko buri wese imbere ye ku meza hari icupa ririmo amazi kandi akaba afite n'agakayi ko kwandikamo.

Abantu bicaye bafite mudasobwa n'amazi n'undi uhagaze ari kubakamera.

Ndabona igitsina gore na gabo bari kuganira bari mu nama bafite amakaye n'amakaramu imbere ku meza hariho amazi yo kunywa.

Ndabona abagabo babiri bambaye amashati, umwe yambaye rinete, bari kunywa amazi abateretse imbere n'umugore wambaye umupira w'umukara, abo bagabo babiri barebana nuwo mugore.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, aho bigaragara ko abiganjemo ari urubyiruko. Ndetse hakaba hari n'uri kubaha ikiganiro bigaragara ko ahagaze afite indangururamajwi, kandi hakaba harimo n'icyapa kiranga ibyo barimo.

Ni mu muhanda harimo abamotari bicaye kuri moto, umwe afite igikapu n'abagenzi mu muhanda n'indabo n'ibiti.

Imyenda yanitse, intebe n'amazu ageretse, amabati y'umutuku n'ibyatsi n'indabo n'ibiti n'imodoka.

Imodoka, iri ahantu hubakiye, itabara indembe, yo kwa muganga n'inzu y'umweru n'indabo.

Amazu asa umweru, nkabona n'idarapo ry'igihugu, imodoka ziparitse zitandukanye z'ubwoko bwinshi n'indabo.

Ndabona inyubako zubatse nkabona imodoka nindabo n'ibiti bikwirakwiza amashanyarazi nkabona nibiti bisanzwe.

Umuntu wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'abagororwa, ufite ikayi arikuyirambura yicaye ku ntebe y'umukara.

Ndabona irembo bari kwinjiramo. Nkabona n'inzu ifite amabati y'umutuku. nkabona n'ibiti biririmo imbere mu gipangu, n'amatafari ahiye.

Abantu bicaye bafite mudasobwa, intebe z'umukara, mikoro n'amazi n'ibikombe...

Idarapo ririho izuba n'umugabo wicaye yambaye ikote na karuvati n'ishati y'umweru n'ameza yarambitseho ibiganza.

Inzo mberabyombi aho bigaragara ko harimo abayobozi benshi batandukanye bakora mu nzego z'igihugu z'u Rwanda, kandi abenshi bakaba bambaye impuzankano. Aho bigaragara ko hari umuntu wicaye imbere, uteye agatoki kugira ngo abaze ikibazo ku byo bahawe.

Nyakubahwa perezida paul Kagame, w'u Rwanda yambaye ikote ry'umukara na karuvati n'ishati y'umweru, n'amarinete ari kuvugira kuri mikoro.

Ni umuhanda uhengamye harimo imodoka icanye amatara, ni nijoro n'amatara yo ku muhanda, hakurya hari umusozi n'ibiti biri hafi y'umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana ko ibinyabiziga bigomba kunyuramo bizengurutse, gifite mpande eshatu.

Ndabona ikimenyetso kirimo uruziga rw'umukara n'ibyatsi biri imbere yabyo n'amasenyenge.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zigomba guhagarara akanya gato, umuhanda urimo abantu bari kugenda na moto n'imodoka n'amatara yo ku muhanda n'ibiti.

Ndabona urugo ruriho icyapa cyanditseho K na G magana atanu mirongo itanu S na T n'icyenda mu imbere mu kigo harimo igiti.

Ndabona inzu igeretse kabiri ifite ibirahure iteye amarange y'umweru, isakaye, ifite amatara.

Moto n'umuyobozi wayo, iri mu muhanda n'inzu igeretse rimwe, isize amarangi y'umweru n'ibiti n'indabo ziyikikije.

Ndabona imihanda ibiri ihekeranye umwe wo hasi, n'uwo hejuru n'cyapa giciyemo akarongo n'imodoka.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi kandi uwo muhanda ukaba ushushanyije nk'uko amategeko y'igihugu abiteganya. Bikaba bigaragara ko harimo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe kandi ku nkengero z'umuhanda...